Umubyeyi usa n'umugore yambaye ingofero y'urugara, akaba ahetse ipombo mu mugongo y'umuhondo, arimo aratera umuti inyanya ze kugira ngo udusimba tutazazonona.

Umugabo wasobanukiwe akamaro ko guhinga, none arimo aruhira anatera umuti ibihingwa bye kugira ngo umusaruro uzabe mwinshi ndetse azabone uwikubye.

Ni ahantu hari iduka rigurisha imiti y'ibihingwa hakaba harimo uducupa dupanze neza turi mu ibara ry'umweru tugaragaza ko turimo imiti y'ibyo bihingwa.

Agoronome wabigize umwuga akaba arimo aravanga imiti igiye itandukanye kugira ngo abone iyo ajya gutera ku bigori bye bityo umusaruro we utazononwa n'udukoko dutandukanye.

Umugabo uhetse ipombo akaba yambaye uturindantoki tw'umweru n'agapfukamunwa k'umweru, arimo aratera umuti mu ishyamba biraho kugira ngo byice imibu yaba irimo.

Ni ahantu mu iduka hagurishirizwamo imiti y'ibimera kandi ukabona bitanga akamaro kanini ku bahinzi kuko bigenda neza ndetse bikarinda n'imyaka yabo.

Umugore uri mu murima akaba afite ipombo arimo aruhira ndetse anatera umuti imyaka ye kugira ngo ayirinde ibyonnyi bishobora kuyangiza itarera.

Gutera imiti ku bihingwa byawe ni ikintu ngombwa kandi cy'ingenzi kuko bifasha mu kurinda ibyonnyi bishobora kwibasira ibimera byawe cyangwa ibihingwa byawe umusaruro ukarumba.

Ifi ni imwe mu nyamaswa ziribwa, ziraryoha ikaba ikunda kuba mu mazi kandi ikagurwa cyane n'abantu benshi.

Abantu bishyize hamwe harimo abagore n'abagabo, bahitamo gukora uburobyi bw'amafi, urabona ko umusaruro bari gukuramo ari mwinshi kandi barabyishimiye kuko bibaha amafaranga.

Icyuzi kiri ahantu mu gishanga hagati y'imisozi ibiri, hakaba harimo amazi ndetse hakurya hari ishyamba ry'ibiti bihakikije.

Ibishanga bitandukanye usanga hororerwamo amafi bityo abantu bakabona ayo kurya ndetse bakabona no ku mafaranga menshi.

Ahantu mu gishanga hakaba hakorerwa ubuhinzi butandukanye, yaba ubw'imboga, ubw'imbuto ndetse n'ubw'ibihingwa byo kurya nk'ibijumba kandi iki cyuzi bagikoresha buhira imyaka.

Amafi menshi ari ku cyuzi urabona ko yashyizwemo imiti akaba atari kyeganyeza, ahandi ku ruhande hari ibimera.

Ni icyuzi gikikijwe n'ibimera biri aho hafi. Hakaba hari abantu baje kureba uko bakibyaza umusaruro buhira imyaka yabo bityo ukabona umusaruro mwinshi.

Ubworozi cyangwa se uburobyi bw'amafi ,ukunze gusanga abantu benshi babyitabira, kuko bazi neza ko bitanga amafaranga, kandi bikaba byaguteza imbere mu gihe gitoya ubikoze.

Ni byiza ko ahantu dukorera ubuhinzi, hagomba kuba hari n'ibyuzi byo kwifashisha mu kuhira imyaka kuko utakizera ikirere cyangwa ngo wizere ko imvura izahora igwa.

Ni icyuzi kirimo amazi menshi, kikaba gikorerwamo uburobyi bw'amafi ndetse kikanifashishwa buhira imyaka iri aha ndetse hakurya hari n'ishyamba rihagaragara.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro y'ikigina, akaba ari ahakorerwa ubuhinzi. Ari kwerekana imbuto agiye kwinaza kugira ngo izamuhe umusaruro mwinshi.

Abagabo babiri bari ku cyuzi, bakaba barimo kuroba amafi, bakoresheje intoki. Ni byiza gukora uburobyi kuko ubonamo amafaranga menshi ahagije ndetse ukabona n'amafi yo kurya.

Ni ku cyuzi kifashishwa mu kuhira imyaka iri aho hafi kikaba gikikijwe n'abantu baje kukireba ndetse bareba n'uburyo bagomba gusaranganya amazi arimo aha ngaha kugira ngo imyaka yabo ikure.

Uburobyi bw'amafi ni ikintu cyiza kandi cyaguteza imbere kuko abantu benshi bayakunda, dore ko yo nta n'ingaruka mbi akunda kugira ku buzima bw'umuntu.

Abagabo babiri, bari ahantu mu cyuzi, barimo bararoba ubona ko bafite ibikoresho byabugenewe kugira ngo babone amafaranga ndetse babone n'amafi yo kurya.

Amafi iyo yarobwe ajyanwa ku masoko akagurisha bityo uwayagurishije akabona amafaranga yo kumutunga agatunga n'umuryango we.

Ku byuzi bitandukanye hirya no hino mu gihugu, usanga hakorerwamo ubworozi bw'amafi ndetse ugasanga abantu babigize umwuga bagashoramo n'amafaranga kuko baba bizeye ko azagaruka.

Igihingwa cya kawa ni cyiza cyane kandi gikomeje guteza imbere abatari bake mu Rwanda kuko iyo cyeze neza gitanga umusaruro mwinshi, umuntu akabona amafaranga.

Co-operative yahisemo guhinga ikawa ikaba yeze, barimo baratoranyamo izitari nzima ,kugira ngo umusaruro wabo bawugeze ku ruganda umeze neza cyane.

Igihingwa cya kawa ndetse n'igihingwa k'icyayi ni bimwe mu bizamura ubukungu bw'abantu ndetse n'ubw'igihugu. Aba bari aha bari gusoroma icyayi, ubona ko keze neza.

Kawa yahishiye ikaba iri ahantu heza cyane kandi yitaweho na nyirayo urabona ko yatoshye kandi imeze neza kandi igejeje igihe cyo kunogwa.

Umugore wambaye umupira wa rakosita iri mu ibara rya oranje, ari kunoga ikawa kugira ngo ajye kugurisha bityo abone amafaranga.

Ahantu ku musozi habereye ubuhinzi, hakaba hari igihingwa cya kawa, zimwe zirejeje, izindi ntizirera kandi ziratoshye ubona ko zitaweho.

Ubuhinzi bw'icyayi bukomeje guteza imbere umubare munini w'abantu kuko mu gihe gito gusa ushobora gukungahara ukaba watera imbere ndetse n'umuryango wawe ugatera imbere.

Abagore babiri barimo barasoroma icyayi, urabona ko bishimiye umusaruro wabo kandi biteze kubona n'amafaranga igihe bazakigurisha, hakurya hari imisozi miremire.

Umugore wambaye umupira wa oranje akaba ari kunoga ikawa ndetse anazikorera, inyuma ye hari ibindi bihingwa birimo nk'insina ndetse n'amashyamba ari hirya.

Guhinga icyayi n'ibintu biteza imbere abatari bacye mu Rwanda kuko usanga ahantu henshi hari imisozi hahinzeho icyayi bityo abantu bakiteza imbere.

Abantu bikoreye ibyatsi byasaruwe ku gihingwa cy'umuceri, bakaba barimo baragenda, hakurya hahinze insina nziza kandi ubona ko zitoshye.

Igihingwa cya kawa ni cyiza cyane kuko gitanga umusaruro mwinshi ndetse ku wagihinze akabona amafaranga menshi bitewe n'uko cyera neza.

Umugore witeze igitambaro cy'umukara, akaba yambaye umupira w'icyatsi kibisi, yikoreye ibase irimo igihingwa ajyanye kukigurisha, urabona ko hari n'ibindi ku ruhande.

Igihingwa cya kawa gikomeje guteza imbere abatari bake kuko uwagihinze wese akubwira ko iyo keze, abona amafaranga, akamutunga, agatunnga n'umuryango we.

lgihingwa cya kawa ,igihingwa cyiza cyane kandi giteza imbere abatari bake ,kuko nk'iyo cyeze neza umuntu akubwira ko yakuyemo amafaranga, na we ubwawe bikagutangaza.

Ni ibihingwa biteye ahantu ku murongo, hakaba harimo ibikuze n'ibigufi, hakurya naho hari ibindi bihingwa ndetse hakaba hari n'ibiti birebire, bifite amashami.

Ubuhinzi ni ikintu cy'ingenzi, cyane cyane iyo uhinzeye icyayi mu gihe gitoya kibasha kuguha amafaranga ndetse kikabaha n'abandi bantu akazi.

Igihingwa cya kawa gikomeje guteza imbere abatari bake kuko umuhinzi wayo usanga akubwira ko imuha amafaranga menshi kandi igateza imbere umuryango we n'Igihugu.

Icyayi ni igihingwa cyiza kandi giteza imbere abatari bakeya kuko uwagihinze akubwira ko amafaranga akivamo, nta kindi gihingwa cyapfa kuyabyara kandi bigateza imbere abatari bake.

Umugabo uhagaze ahantu mu gishanga akaba ari mu murima uhinzemo umuceri, hakurya hari inturusi n'ibindi biti bihateye byakuze neza.

Koperative yishyize hamwe ihinga ikawa none zireze bakaba bavuye kuzinoga barimo baratoranyamo inziza kugira ngo bazohereze ku ruganda bityo bakoremo kawa nziza.

Uducupa dutandukanye, tukaba turi mu mabara agiye atandukanye, harimo utureture ndetse hakabamo n'utugufi, tukaba turimo imiti yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo.

Ameza ari mu ibara ry'umweru ateretseho uducupa dutandukanye turimo imiti y'inyamaswa ndetse hari na amvilope iri iruhande.

Udukarito turi ahantu mu cyumba ndetse n'udushashi, tukaba dushushanyijeho inka mu bigaragara imbere muri utu dukarito, harimo imiti yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo.

Uducupa dupanze neza ahantu mu dukarito tukaba dufite amabara y'umweru ndetse n'ibyapa bifunzeho biri mu mabara atandukanye, tukaba turimo imiti ivura amatungo.

Utudobo turiwi ibara ry'umweru, turiho ibyapa bishushanyijeho inka, bikaba bigaragara ko harimo imiti y'amatungo ivurishwa ayo aba arwaye.

Uducupa duteretse ahantu ndetse n'udukarito, ibyapa bifunzeho hashushanyijeho amatungo nk'inka, imbere turimo imiti ivura amatungo atandukanye.

Uducupa ndetse n'utubido duteretse ahantu mu cyumba gisa neza. Turi mu mabara atandukanye harimo; ubururu, icyatsi, umweru ndetse n'imifuniko itandukanye mu mabara.

Uducupa turi mu mabara atandukanye, tukaba hari udufite imifuniko itukura ndetse n'iy'icyatsi n'umweru. Turimo imiti ivura amatungo.

Udukarito dupanze neza ku murongo, uturimo imiti twose tukaba dupanze ahantu hamwe, dufite amabara atandukanye. Tukaba turimo imiti y'amatungo.

Udukarito turi mu mabara atandukanye, tukaba duteretse ahantu heza. Turimo imiti yifashishwa mu kuvura no gukingira amatungo, atandukanye.

Udukarito dufunze neza ndetse n'udushashi ,tukaba turimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo ,urabona ko dukeye neza cyane ,kandi dufite n'amabara atandukanye.

Udushashi turi mu mabara abiri atandukanye, umuhondo ndetse n'umutuku, tukaba dupfunyitsemo imiti ivura amatungo.

Uducupa turi mu ibara ry'umweru, tukaba duteretse ahantu hasa neza, turimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo, bityo akororoka cyane.

Utudobo dutandukanye duteretse ahantu heza, tukaba dushushanyijeho amatungo nk'inka, ihene, mu bigaragara imbere harimo imiti ivura amatungo.

Gutera ibiti ni gahunda leta ishishikariza abantu bose, kuko bituma tubungabunga ibidukikije ndetse bigatuma tubona n'umwuka mwiza, uvuye muri ibyo biti.

Umunyarwanda yaravuze ati: "Igiti nutema kimwe ujye utera bibiri", aba na bo barita mu gutwi bahitamo kubyubahiriza akaba ari yo mpamvu barimo baratera ibiti aha.

Igihingwa k'ibigori kiri ahantu mu murima gitoshye neza gusa ntikirera, gikikijwe n'umusozi na wo uriho ibindi bimera ndetse hariho n'ibiti birebire.

Umugabo wambaye agapfukamunwa, ari muri pipinyeri, aho yahumbitse ibiti bye kugira ngo bizaturwe, bijye guterwa ahandi bityo umusaruro w'imboga cyangwa w'ibiti wiyongera.

Guhinga ni ibintu byiza cyane hari ubuhinzi bw'imyaka itandukanye, amasaka, hakaba hari umuntu urimo urayisarura ndetse n'andi atarera.

Ni uruganda rurimo ibikoresho bitandukanye rukaba rushinzwe kwita ku mbuto ndetse no kuzitubura kugira ngo abahinzi bazabone izo bahinga nziza zarobanuwe.

Abantu bahuriye mu gikorwa cy'umuganda rusange bakaba barimo baratera ibiti ahantu hatandukanye kugira ngo barinde banasigasire ibidukikije.

Igihingwa cy'umuceri ni kimwe mu bihingwa bikomeje guteza imbere abantu benshi kuko iyo keze ubona amafaranga yo kurya ndetse ukabona n'ikindi bitandukanye.

Guhinga imboga cyangwa se imbuto ni ibintu by'ingenzi ,kuko uretse kuba byaguha amafaranga, na we ubwawe ushobora kubonamo intungamubiri zitandukanye, bityo ukabaho neza.

Ikiraro cy'inka cyubatswe mu byuma, kikaba kirimo inka za kizungu. Hanze yacyo, hari ibyo zirya kandi bimeze neza na zo urabona ko zishishe.

Ni mu rwuri, hakaba harimo inka zitandukanye, ziri kuririsha ubwatsi buri aho, hakurya hari amashyamba manini, afite ibiti bifite amashami atandukanye, ari impande n'impande.

Guhinga inanasi cyangwa se ibindi ni ibintu byiza cyane kuko mu gihe gitoya gusa ushobora kubona amafaranga agutunga ndetse akaba yatunga n'umuryango wawe.

Igihingwa cy'umuceri kitarera neza, harimo umugore witeze igitambaro cy'umutuku, wambaye umupira w'umuhondo arimo arakorera uno murima kugira ngo umusaruro we utazangizwa n'ibyonnyi.

Ubuhinzi bw'ibigori bukenera abantu babuba hafi bakabwitaho, bagateramo imiti, bagatera n'amafumbire kugira ngo umusaruro urusheho kwiyongera kandi ube mwinshi.

Umumama wambaye isengeri akaba yitezeye n'igitambaro ndetse akenyeye n'igitenge, ari mu murima we arimo arareba ko ibihingwa yahinzemo bigejeje igihe cyo kwera bityo abisarure.

Gahunda ya leta, uyu mugabo arimo arayishyira mu bikorwa yo gutera ibiti. Ni byiza ko tubitera ahantu hose kuko biduha umwuka mwiza wo guhumeka kandi tukagira ubuzima bwiza.

Ikigo cy'amashuri gikikijwe n'ubusitani, hari abantu bari gutera ibiti muri icyo kigo kugira ngo abanyeshuri bigira muri iki kigo bajye babona umwuka mwiza wo guhumeka ndetse n'aho kuruhukira.

Guhinga ni igikorwa kiza kandi giteza imbere abatari bake mu Rwanda ndetse n'ahandi. Iyo uhinze ubona amafaranga ndetse ukabona n'ibyo kurya bitunga umuryango wawe.

Inka nziza nyinshi ziri mu rwuri zimwe zarabyaye zirimo ziratanga umukamo, hari umugabo urimo urakama izo nka.

Abamama babiri bari ahantu hahinze igihingwa cy'umuceri weze, urabona ko bari kureba uko igihingwa cyabo kimeze kugira ngo bazabashe kubona inyungu.

Ni muri pipinyeri, umuhinzi w'ibiti cyangwa se imbuto akaba ari kwerekana izeze kugira ngo zivanwe aha zige guterwa ahandi hantu, umusaruro wiyonge.

Ikibaya cyiza cyane kikaba kiberewe ubuhinzi, hari umuhanda w'igitaka uca impande, ndetse n'ipoto ririho insinga z'amashanyarazi.

Ikigori cyumye amababi amwe ayo hejuru akaba agitoshye mu bigaragara urabona ko kiteze neza kubera ko cyahuye n'ikibazo k'izuba amababi akuma.

Ahantu hari ibihingwa bitandukanye birimo insina, ibigori, ibiti, amapapayi, byose ni ingirakamaro ku bantu kuko bimwe biribwa ibindi bikaba byakorwamo ibindi bikoresho.

Ishyamba ririmo ibiti ndetse n'imbuto nk'amapapayi, urabona ko hakeye, gusa iruhande hahinze n'ibindi bimera na byo bitarakura neza.

Imbuto y'ibigori ndetse n'ibishyimbo bikiri bitoya birimo kuzamuka, urabona ko biri ahantu hasa neza kandi mu murima witaweho na ba nyirawo ni byiza cyane.

Amoko y'imboga atandukanye, zikaba ziri ahantu harimo karoti, inyanya, imboga dodo, ibigori, imiteja, ibitunguru, byose biraribwa kandi bigira intungamubiri.

Umurima uri ahantu ku gasozi hakaba hagaragaraho igihingwa cya kawa itarashyiraho imiteja, hakurya hari n'ibindi bihingwa bihari na byo by'ibiti.

Insina ndende ebyiri hakaba hariho n'akandi gato kagufi zikaba zitanga amoko y'ibiribwa bita igitoki ndetse n'imineke.

Guhinga ni ikintu cyiza cyane kuko bifasha abantu benshi mu kubona amafunguro yo kurya ndetse n'amafaranga igihe babigurishije iki akaba ari igihingwa cy'imwumbati.

Ibihingwa byiza biri ahantu heza habereye ubuhinzi, hari n'imisozi ubona itagaragara neza.

Ni mu gishanga hakaba harimo umugabo urimo urahinga muri broke y'umuceri, kugira ngo arebe ko yabona aho imbuto ye izajya ,bityo abone umusaruro mwinshi.

Akarima k'igikoni kubabatswe mu buryo bwa etaje, kakaba katarahingwamo imbuto, gusa urabona ko ari ibintu byiza kandi urabona ko hirya hari n'ibiti birebire.

Ubuhinzi ni ikintu cy'ingenzi kandi cyiza cyane kandi giteza imbere abantu benshi, ni byiza rero ko tubwitaho, wahinga imbuto, wahinga imyaka iribwa, byose ni byiza kandi tubyiteho.

Igiti gikuze cyane gusa kigufi kikaba cyeraho imyembe abantu barya bakagira intungamubiri kandi bakabaho neza.

Imbuto z'ibigori ziri ahantu heza ubona ko zeze neza. Zikaba zifite ibara ry'umuhondo kandi ni nyinshi, umuhinzi wazo arabyishimiye cyane kuko yejeje byinshi.

Igihingwa cy'umyumbati gikoreye kiri ahantu bakibagariye, urabona ko gitoshye cyabonye ifumbire ihagije ndetse bacyitaho none kigiye kwera.

Imashini ihinga yifashishwa mu buhinzi bugiye butandukanye, ikaba iri guhinga mu gihingwa cyitwa umuceri, hari n'indi mirima itarahingwa.

Ikigori gihinze ahantu mu murima kikaba cyarumiye ku giti cyacyo ndetse hirya hari n'ibindi na byo byumye bigejeje igihe cyo gusarurwa.

Ahantu hakorerwa ubuhinzi, hakaba hagaragara igihingwa cy'ikigori kimeze neza gitoshye kandi ubona ko hakurya n'aho hari ibiti birebire ndetse n'imisozi.

Ahantu mu gisambu hakaba harimo ibihingwa bitandukanye hahinzemo intoryi, ibijumba, hakaba harimo n'imirenzo nayo ihingwamo ibintu bitandukanye.

lgihingwa cy'ikigoyi cyahuye n'izuba none bimwe byarapfuye ibindi biracyakanyakanya, gusa urabona ko byazize gutuhirwa, ndetse no kutitabwaho neza.

Igihingwa cy'umuceri weze neza ugejeje igihe cyo gusarurwa ndetse hakurya hari umusozi na wo uriho ibindi bihingwa bitandukanye ndetse n'indi miceri y'abandi bahinzi bahahingiye.

Igihingwa k'ibigori gihinze neza kikaba cyaritaweho kigahabwa ifumbire ndetse urabona ko hakurya hari n'urutoki na rwo rumeze neza ndetse n'ibindi biti birebire.

Umugozi ni igihingwa cyeraho ibijumba, bikerera munsi y'ubutaka kandi uwagihinze akabona amafaranga menshi, bityo akaba yabona n'ibyo kurya by'umuryango we.

Igihingwa cy'umuceri ni kimwe mu bihingwa biteza imbere abantu benshi kuko iyo ubikora ubishishikariye ubasha gucyeza neza ndetse ukabona nn'amafaranga wakwifashisha.

Ibigori bihinze ahantu, bikaba byarumye bigeze igihe cyo gusarurwa. Bikikijwe n'ibindi bimera bitoshye ndetse n'ibiti byagerivariya birebire.

Ahantu mu kibaya habereye ubuhinzi, barahinze, barahakorera neza, urabona ko ibyo bashyizemo bitarakura, hakurya hari umusozi uriho ibiti.

Ni mu rwuri hororerwa amatungo atandukanye, hakaba harimo ubwatsi butoshye aya matungo arya. Harimo n'ibiti birebire kandi bisa neza, ubona ko byabonye imvura.

Ibiti ni byiza kuko biduha umwuka mwiza kandi wo guhumeka, ku buryo ikiremwamuntu kibaho kandi mu buryo bwiza.

Ni ishyamba ririmo ibiti birebire ndetse n'ibigufi, byose bikaba biduha umwuka mwiza wo guhumeka ndetse bimwe bigakorwamo n'ibikoresho, twifashisha buri munsi nk'intebe, ameza n'ibitanda.

Ni ishyamba, riri ku gasozi, rikaba ririmo ibiti byinshi kandi birebire, bimwe byarakuze ibindi ntibirakura. Rikaba rifitiye akamaro abantu benshi kuko ribaha amafaranga ndetse n'umwuka mwiza wo guhumeka.

Ahantu hari ubusitani butandukanye, hakaba umuhanda abantu bagendamo, hakaba hari n'ibiti birebire bihakikije kandi ikindi harasa neza. Hakurya hari amatente, abantu bakoreramo ibirori.

Ni mu kibaya ahantu hari ibiti byinshi bitandukanye, hakaba harimo n'akayira kanyurwamo n'abantu, hateyemo ibiti birebire urabona ko ushobora kugira ngo ni mu ifamu.

Umusozi ugaragaraho amashyamba atandukanye hakaba harimo ayakuze ndetse n'amagufi, hakurya hari n'indi misozi itagaragara neza ikingirijwe n'ibicu.

Mu bice bitandukanye hirya no hino mu Gihugu usanga hari amashyamba aba arimo ibiti byakuze cyane kandi bisa neza, ikindi kandi amashyamba ni ingenzi kuko tubonamo umwuka duhumeka.

Gahunda leta yashyizeho y'umuganda ni gahunda nziza kandi ifasha abantu benshi kuko iyo icyo gikorwa kiri kuba, abantu bagikora bagishishikariye ndetse bagafashanya.

Amashyamba ni ikintu cy'ingenzi kuko adufasha mu kubona umwuka duhumeka, ikindi kandi akadufasha mu kuba twabona inkwi zo gucana nk'imbaho n'ibindi.

Ahantu hari ishyamba ryiza ririmo ibiti byinshi bitandukanye, harimo ibirebire n'ibigufi. Hakurya hari indi misozi na yo itagaragara neza ikingirijwe n'ibicu.

Agasozi ndatwa kariho ishyamba riri hakurya ndetse hino hari ahantu hasa n'urwuri urabona ko habereye ubworozi ni heza, harasa neza, habonye imvura.

Igikorwa cy'umuganda ni kimwe mu bikorwa byiza cyane bifasha benshi kandi bigahuza abayobozi n'abaturage bityo bakabasha kungurana ibitekerezo bitandukanye.

Umusozi uhinzwemo ishyamba ry'inturusi, hakaba hari umugabo urimo uratema ibiti bimwe na bimwe. Gusa si byiza ko dutema amashyamba yose kuko byatugiraho ingaruka nko kubura imvura.

Umusozi uteweho ishyamba, akaba ari umusozi mwiza cyane kandi hamwe baratemye bamaraho, gusa si ibintu byiza kuko bitera ihindagurika ry'ikirere.

Igiti cy'inganzamarumbo gifite amashami menshi cyane ndetse hariho n'amababi. Urabona ko gitoshye kandi kiri ahantutu ari cyonyine kuko nta bindi bihari.

Ubuhinzi bwa kijyambere harimo ibihingwa nk'imboga, indabo ndetse n'ibindi. Urabona ko ari ibintu byiza kandi uwabihinze yiteguye kubona umusaruro mwinshi uhagije.

Abahinzi babigize umwuga bubaka aho bagomba gukorera ubuhinzi bwabo none urabona ko biteguye guhabwa inoti, hari umugabo ufite inote ari kuyerekana baguriye imbuto akaba agiye kuzitera ahandi.

Ubuhinzi bw'inyanya bukomeje guteza imbere abantu benshi cyane kuko iyo zeze ubasha kubona umusaruro, ababikora rero bakubwira ko batabireka.

Igihingwa cy'imyembe ni cyiza cyane kuko iyo cyeze urarya kandi ugasagurira n'amasoko ukaba wabona amafaranga agutunga ndetse n'umuryango wawe.

Guhinga imboga ni ibintu byiza kandi byaguteza imbere mu gihe wabyitayeho kuko iyo byeze urabigurisha ukabona amafaranga ndetse ukaba wabona n'imbuto n'imboga zo kurya.

Ahantu hahinze imboga mu buryo bwo ku murongo, urabona ko hari ibintu byiza cyane kandi bikeye, hakurya hari inzu ndetse hari n'ibindi bihingwa bihateye.

Icyapa kiri ahantu mu gisambu, kikaba kigaragaza ko hakorerwa ubuhinzi, ubona ko ari ahantu hakeye kandi habereye ubuhinzi, hari n'umuhanda abantu bagendamo.

Abantu batandukanye higanjemo ab'igitsina gore, bafashe ibiti bigaragara ko bashishikariye kuba bagiye kubitera. Urabona ko babyishimiye cyane rwose.

Koperative yishyize hamwe yiyemeza guhinga imbuto harimo amatunda. Barimo barazikorera bazisasira neza bazitera ifumbire kugira ngo bazabone umusaruro.

Abahinzi bishyize hamwe bakora koperative yo guhinga ibihwagari, biganjemo abagore benshi urabona ko bimeze neza barabikoreye babyitaho kandi biratoshye.

Ubuhinzi butandukanye bwaguteza imbere, nshobora guhinga imboga, nshobora guhinga imbuto ndetse n'indabo, byose ni ingenzi kandi bigira amafaranga.

Ubuhinzi bw'imboga ni ingenzi kuko bitunze abantu benshi, yaba ababihinga ndetse n'abatabihinga babasha kubigura bakarya indyo yuzuye irimo imboga.

Ubuhinzi ni ikintu cyiza kandi cy'ingenzi kuko bishobora kuguteza imbere mu gihe gitoya ubikoze, ushobora guhinga imboga, imbuto ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye.

Umudamu wambaye ishati iri mu ibara ry'ubururu, isengeri iri mu ibara ry'umweru akaba yambaye n'urunigi mu ijosi yahinze imbuto bita amatunda none ari kwerekana ko zeze.

Ubuhinzi bw'urusenda ushobora kwibwira ko bidatanga amafaranga, gusa siko biri kuko iyo uhinze wabigize umwuga mu gihe gito gusa byeze nawe ubasha gukirigita ku ifaranga.

Abantu batatu harimo ab'igitsina gore babiri n'uw'igitsina gabo umwe, bafashe amashu bamaze gusarura, urabona ko bishimiye umusaruro wabo kandi weze ari mwinshi.

Ubuhinzi ntabwo bushingiye ku byo kurya cyangwa se imboga cyangwa se imbuto kuko ushobora guhinga n'indabo, zikaba zaguteza imbere kandi ukaba wanazigurisha hirya no hino.

Umuhinzi wabigize umwuga akaba arimo guhinga, urabona ko ari gusarura imbuto ze zeze neza zirimo amacunga ndetse na pome, asarurira mu gikoresho afite.

Igiti gifite amababi maremare y'icyatsi kibisi kikaba kezeho imbuto z'imyembe zimwe zarahishiye izindi ntizirahisha, urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ya karokaro, akaba ari mu murima we yahinzemo amatunda ubona ko agejeje igihe cyo kwera, arimo arareba ay'ingenzi ayakuramo.

Igiti cyezeho amapapayi, gusa ntaratukura cyangwa ngo ahishire. Gusa urabona ko ameze neza. Igihe nikigera agera bityo bayarye, bagire intungamubiri.

Umugabo wishimye wambaye umupira urimo amabara y'umweru, umukara ndetse n'ivu, akaba yarahinze amatunda, arimo arayasarura urabona ko yishimiye umusaruro we.

Umugore wahinze ibitunguru igihe cyo kubisarura kikaba kigeze, urabona ko rwose umusaruro we uzamugirira akamaro igihe awugejeje ku isoko.

Umubyeyi w'umumama witeze igitambaro akaba yambaye n'ishati idozwe mu bitenge ndetse yambaye n'imikofe mu ijosi igaragara neza.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni ibintu byiza cyane bitunze benshi kandi biduha intungamubiri ndetse bikaduha n'amafaranga iyo tubigurishije.

Amoko y'imboga atandukanye zikaba ziri ahantu mu isoko, harimo: karoti, inyanya, imiteja, urusenda, intoryi, pavuro ndetse n'ibitunguru byose biraribwa.

Guhinga uteye murongo ni ibintu byiza cyane kuko bituma imyaka ihanahana umwanya kandi bigatuma n'umusaruro wiyongera kurusha uko wabyegeranya.

Amazi arimo atembera mu mugende, akaba ari mu gishanga gihinzemo umuceri, hakurya naho hari ibiti birebire n'ishyamba rigaragara neza.

Mu byaro ahantu hatandukanye haba hari imihanda y'ibitaka iba igana mu mirima y'abahinzi. Abahinzi benshi bo mu byaro, bagiye begerezwa uburyo bwiza bwo kuhira imyaka yabo kugira ngo umusaruro wiyongere.

Ubuhinzi bugezweho buba bujyanye no kuhira kuko iyo wuhira imyaka yawe uhinga igihe cyose ushakiye utakangwa n'izuba cyangwa se n'ikirere kuko uba wuhira.

Ubuhinzi bw'amashu ni ingenzi kuko ubikora abona amafaranga yo kurya ndetse akabona n'ayo gutunga imiryango bityo iterambere rikiyongera muri rusange.

Guhinga ukoresheje uburyo bwo kuhira ni byiza kuko byongera umusaruro ndetse ukabasha kubona ibirenze ibyo wari witeze ukabasha kwiteza imbere.

Guhinga imyaka ku misozi bisaba ko haba hari n'uburyo bwo kuhira kuko igihe ikirere kigutengushye imvura ntigwe wifashisha buno buryo bwo kwishyura bityo ukabona amafaranga menshi ndetse n'umusaruro mwinshi.

Ni ahantu hari umugende w'amazi aya mazi akaba yifashishwa mu kuhira ibimera biri aha hafi cyane cyane nk'ibihingwa kugira ngo umusaruro w'abahinzi urusheho kwiyongera.

Guhinga imyaka ukarenzaho uburyo bwo kuhira, ni ibintu byaguha umusaruro mwinshi ukabasha kwiteza imbere mu gihe gitoya kuko byera nta kibazo cy'izuba bihuye na cyo.

Guhinga wuhira imyaka yawe n'ibintu birinda imyaka yawe kuba yakwangirika kandi bikarinda n'igihe cy'izuba kuba byahura n'izuba ryinshi bityo bikuma.

Ubuhinzi bugezweho ndetse n'ubuhinzi busanzwe, bwose bukenera kuhirwa kugira ngo bujye bukura neza cyane cyane bigakorwa mu gihe cy'izuba, bukarushaho gutanga umusaruro.

Kuhira imyaka ikiri mitoya bizayirinda kuba yakuma kandi bitume ikura imeze neza kuko izaba yabonye amazi ahagije bityo ntikangwe n'izuba.

Koperative y'abishyize hamwe, bakaba bari guhinga mu mirenzo yabo, urabona ko bashyize hamwe kandi bemeye guhinga igihingwa kimwe kugira ngo bazabone umusaruro mwinshi.

Ni ku mugezi uri gutemba ukaba ukikijwe n'ibisambu abantu bahingamo, urabona ko ukeye kandi urabona ko nta myanda irimo. Bakaba bawukoresha mu kuhira imyaka

Abantu benshi bamaze kumenya akamaro ko guhinga, ni byiza rero guhinga wuhira imyaka yawe kuko idakangwa n'ubushyuhe cyangwa se ngo ikangwe n'igihe cy'izuba.

Umugabo wasobanukiwe akamaro ko guhinga, akaba afite umupira w'amazi arimo aruhira ibihingwa bye kugira ngo birusheho gukura ndetse no kongera umusaruro uzavamo.

Ahantu hatandukanye, cyane cyane mu Ntara y'Iburasirazuba, uhasanga hari aho bagomerera amazi kugira ngo bajye bifashisha mu kuhira imyaka, igiye itandukanye, iba iri aho hafi.

Gutera umuti mu myaka ni ikintu cyiza kandi cy'ingenzi kuko bituma udukoko tutibasira imyaka yawe bityo ubuhinzi bwawe bugatanga umusaruro mwinshi.

Guhinga wuhira imyaka ni ikintu cyiza cyane kandi utuma umusaruro wiyongera, hakurya y'aha bari kuhira hari urutoki na rwo rumeze neza.

Kuhira ibihingwa byawe ni ikintu cyiza cyane kuko bigufasha mu kongera umusaruro kandi ukaba wanahinga igihe cyose udakanzwe n'uko ari mu mpeshyi cyangwa se ari mu itumba.

Guhinga imyaka ukarenzaho uburyo bwo kuhira ni ibintu byiza cyane kandi byaguha umusaruro mwinshi kuko igihe k'izuba iyo kije wowe urakomeza ukuhira umusaruro wawe ukamera neza.

Ni ku kibaya kiri ahantu hasa neza cyane, urabona ko hahinze ibihingwa byinshi bitandukanye, hakurya hari n'imisozi iteweho amashyamba menshi.

Umugezi utemba ukaba urimo amazi asa nabi cyane, ikindi kandi hakaba hari ibihingwa byuhirwa n'amazi avuye muri uyu mugezi ndetse hari n'ibiti birebire.

Umusozi mwiza cyane ubereye ubuhinzi urabona ko uriho ibihingwa birimo ibiti hakabamo ndetse n'ibimera nk'insina n'ibindi bikiri bito.

Ni ahantu ku musozi, hakaba hari ikibaya gitembaho amazi hejuru, hari n'ibiti bihakikije, ubona ko ari ibintu byiza cyane kandi hari n'ubuhinzi bw'urutoki.

Umusozi uteyeho ibiti by'inganzamarumbo, hakaba hateyeho n'ibimera bitandukanye nk'insina n'ibihingwa biribwa n'abantu benshi.

Mu byaro mu bice bitandukanye uhasanga imihanda y'ibitaka iba itarakorwa neza, akenshi iba ikikijwe n'ibiti ndetse haba hatuwe n'abantu batari benshi.

Umusozi ubereye ubuhinzi hakaba hariho ibimera byinshi bitandukanye kandi hakurya hari imisozi miremire ndetse igaragara neza.

Ahantu ku musozi hakaba hari ibiti bitarakura neza ndetse hakorerwa ubuhinzi, hakurya hari undi musozi muremure utagaragara neza ukingirijwe n'ibicu.

Ahantu hari ikibaya hakaba hatuwe n'abantu bakeya ndetse icyo kibaya kigizwe n'icyuzi ndetse n'ibiti ndetse n'imirima abantu bahingamo hakurya.

Umusozi uhanamye ukaba utuweho n'abantu gusa batari benshi, hakurya hari ikibaya nacyo gituweho n'abantu ndetse hakorerwa n'ubuhinzi bw'ibihingwa bigiye bitandukanye.

Ahantu ari ikibaya kibereye ubuhinzi, hakaba harimo ibihingwa bitandukanye ndetse n'ibiti bitandukanye, ubona ko hakeye cyane kandi imvura yaguye.

Ikiyaga kigari kiri ahantu hagati y'imisozi ibiri kirimo amazi menshi kandi hakikijwe n'ibihu, iruhande rw'ikiyaga hari ishyamba ririmo ibiti birebire.

Ikibaya gisa neza kikaba kigaragara neza cyane kandi gihinzeho ibihingwa bitandukanye kikaba kiriho ibiti birebire ndetse n'ibigufi, hakurya hari n'indi misozi n'igicu.

Ahantu ku musozi hakorerwa ubuhinzi bugiye butandukanye ndetse hakaba hari na pipinyeri bahumbikamo ibiti kugira ngo bizajye guterwa ahandi.

Ikibaya cyiza cyane kiriho ibihingwa bihinze neza ahantu heza, mu bigaragara harimo ubuhinzi butandukanye, hakurya hakaba hari amazu atuwemo n' abantu.

Umusozi uriho ibimera ndetse ukaba ukikijweho ibiti. Hakurya hari indi misozi, na yo ituweho n'abantu gusa bakeya, hejuru hari igicu kidatuma izuba rigaragara.

Umusozi uriho ibimera bitandukanye, hakaba hariho n'ibiti ndetse hakaba hariho n'ibindi bihingwa bikiri bitoya n'indi mirima idahinzwemo ikintu na kimwe.

Ikibuti cyororerwamo inkwavu, hakaba hari abaganga b'amatungo baje kureba izo nkwavu kugira ngo barebe ko zimeze neza bityo babe babasha kuzitaho.

Inka iri mu kiraro, hakurya yayo hari ibyatsi. Iki kiraro kikaba cyubakishije, ibiti ndetse gisakarishijwe n'ibyatsi bakunze kwita nyakatsi.

Niba uhisemo korora amatungo cyane cyane nk'inkoko, ni byiza ko ugira n'ibikoresho bizagufasha, kugira ngo zitazarwaragurika cyangwa zigahura n'ibindi bibazo bitandukanye.

Ikiraro kirimo inka zitandukanye nyinshi, gisakajwe amabati kandi cyubakishijwe ibyuma. Urabona ko hari abantu baje kureba uko ibyo bintu bimeze.

Inkwavu ziri ahantu habugenewe, zikaba zazaniwe ibyo kurya bitandukanye, urabona ko hakeye kandi hakorerwa isuku buri munsi kugira ngo zitazahura n'indwara.

Inkoko zororewe ahantu mu nzu, hakaba harimo ibikoresho bizifasha kuba zitarwaragurika ndetse harimo n'amazi zinywa buri munsi.

Korora inkoko cyangwa se andi matungo na byo ni ibintu by'ingenzi cyane kandi bifasha abantu benshi, haba mu kubona amafaranga ndetse no kubona akaboga ko kurya.

Ubworozi ni ikintu cyiza kandi gishobora kugutezambere mugihe gitoya, iyo wabikoze ubyitayeho kandi ubihaye umwanya biraguhira cyane.

Korora inkoko ni ikintu cyiza kandi cy'ingenzi kuko bifasha abantu benshi, bakiteza imbere ndetse bagateza imbere n'imiryango yabo, bityo ubukungu bw'igihugu bukiyongera n'ubw'abantu muri rusange.

Korora inkoko ni ikintu cy'ingenzi kuko uretse kuba wabona amagi ushobora no kuzigurisha ukabona amafaranga ndetse ukaba wanazibaga nawe ukarya inyama.

Ikiraro cyubatswe mu buryo bwa kijyambere, kikaba kirimo inka nyinshi zitandukanye, gusa urabona ko ari ibintu byiza, hakurya hari imisozi iteyeho ibiti kandi igaragara neza.

Umuganga w'amatungo, akaba arimo arakingira inka ziraha kugira ngo zitazafatwa n'indwara zitandukanye bityo umusaruro ukaba wabura cyangwa zigapfa.

Ingurube ya kizungu ifite ubwoya bw'umweru ndetse n'iherena ku gutwi ikaba iri mu kiraro cyayo ndetse impande hari ibiryo igomba kurya kugira ngo itange umusaruro.

Ni ikiro cyubakishijwe ibiti, kikaba cyororerwamo amatungo atandukanye nk'ihene, inka ndetse n'ingurube n'ibindi, byose bigafasha abantu mu kwiteza imbere.

Umugore w'umuveterineri cyangwa se umuganga w'amatungo mu rurimi rw'ikinyarwanda arimo arakingira inka ziri aha kugira ngo azirinde kuba zafatwa n'ibyorezo bitandukanye.

Ubworozi ni ikintu cyiza kandi giteza imbere abatari bake kuko usanga amatungo abasha gukura neza kandi yitabwaho na ba nyirabwo. Bityo rero tubwitabire.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni ikintu k'ingenzi kandi giteza imbere abagikora kuko mu gihe gitoya gusa ushobora kubona amafaranga menshi ahagije.

Icyumba kigari cyane, cyubatse mu buryo bwa kijyambere, imbere hakaba harimo ubworozi bw'inkoko, na zo ziri mu mabara atandukanye; umutuku, umweru n'umukara.

Korora amatungo ni ikintu cy'ingenzi cyane kuko bifasha abatari bake kwiteza imbere ndetse no kubona amafaranga binyuze muri aya matungo uba waroroye.

Icyumba kirimo ubworozi bw'inkoko, harimo amasake n'inkokokazi urabona ko ari nyinshi. Uwabikoze azabona amafaranga menshi, igihe zateye amagi cyangwa se zaturaze.

Korora inka, ni ikintu cyiza kandi cy'ingenzi kuko biguha kubona umusaruro nk'umukamo mwinshi, cyane cyane iyo wazitayeho ndetse ukaziteza n'imiti.

Ubworozi bw'inkoko zikaba ziri ahantu mu cyumba kidasa neza, ndetse harimo n'ibikoresho zikoresha zinywa amazi, urabona ko hakeye gusa hadakeye cyane.

Icyumba kinini kandi kigari kirimo ubworozi bw'inkoko, kikabamo amatara amurikira izi nkoko ndetse kikabamo n'amarangi, urabona ko gisa neza cyane.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni ikintu cy'ingenzi cyane kandi bifasha abantu batari bake, mu kubona amafaranga atunga imiryango yabo ndetse no kwiteza imbere kandi n'Igihugu kikabibonamo inyungu.

Inkoko ziri ahantu zikaba ari nyinshi cyane zororewe mu cyumba kimwe, urabona ko zimeze neza harimo amasake ni yo yiganjemo ndetse n'inkokokazi.

Ni mu rwuri hakaba harimo inka nyinshi zitandukanye za kizungu ndetse hakaba hari n'ibiti birebire, hakurya hari igicu kirimo ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Inkwavu ziri mu kiraro cyazo imbere yazo hari ibyokurya zigomba gufata kugira ngo zirusheho gutanga umusaruro mwinshi kandi zateza imbere nyiri korora.

Korora inkoko cyangwa se andi matungo ni byiza cyane kuko mu gihe gito gusa byaguteza imbere, bityo ukabasha kubaho ubuzima bwiza ufite amafaranga.

Guhinga cyangwa se korora, byose ni ibintu byiza kandi byaguteza imbere mugihe runaka utazi. Rero niba ukoje uwo mwuga, ni byiza cyane kuko byaguteza imbere.

Isoko rigurishirizwamo ihene harimo amahene atandukanye ndetse n'ibiti biri kugaragara, hakurya hakaba hubakishijwe n'ibiti.

Ubworozi bw'amatungo ni ikintu k'ingenzi ku bagikora ndetse n'abatagikora na bo babona inyama zo kurya kuko iyo umworozi yoroye nyinshi aragurisha n'abatoroye na bo bakabona ku byavuye ku matungo.

Ingurube ya kizungu imeze neza cyane, iri ahantu mu cyumba, urabona ko yitaweho rwose kandi igiye kubwagura kuko irabwegetse.

Ni mu rwuri hakaba harimo amoko y'inka atandukanye, iza kizungu ndetse n'iza kinyarwanda, zikaba ziri kuririsha ubwatsi burimo aha ubona ko butoshye kandi bumeze neza.

lnkoko za kijyambere harimo amasake n'inkokokazi, urabona ko ziri ahantu mu kiraro cyazo, kandi zikaba zimeze neza kuko baba bazitayeho.

Hirya no hino uhasanga amafamu cyane cyane mu karere ka Nyagatare. Usanga hororerwamo nk'inka, ihene, intama byose bibafasha mu kwiteza imbere.

Ubworozi bw'amatungo cyane cyane ubw'inkoko bushobora kuguteza imbere mu gihe gito kandi ukaba wabona amafaranga nawe ubwawe utakekaga ko byakubaho.

Ikiraro cyubakishijwe ibiti, kikaba kirimo inka ebyiri zigaragara ko zifite n'ubwatsi hasi zirimo kurisha, gusa zahaze urabona ko ntacyo zitayeho.

Igihingwa cy'ibigori kirambitse ahantu mu buryo bwo kucyanika, kugira ngo cyume bityo bazakigurishe babone amafaranga ndetse babone n'ibyo kurya byo gutunga umuryango.

Amoko y'ibihingwa ateretse ahantu hasa ibara rya oranje, harimo udushyimbo, udusoya, hakabamo n'utundi tuntu dutandukanye n'umuceri byose bitanga umusaruro mwinshi.

Amoko y'imboga n'imbuto n'imyaka birunze ahantu mu mifuka, hakaba harimo: ibishyimbo, amashaza, soya ndetse n'ibindi bitandukanye byose bikaba biribwa.

Isoko ry'imboga ndetse n'imbuto, hakaba hari kugurishirizwamo ibintu bitandukanye ndetse urabona ko hari abantu b'abazungu batangariye ibi bihingwa ndetse harimo n'abirabura.

Koperative yishyize hamwe bahinga imbuto y'ibishyimbo, none bireze barimo baragabana batoramo n'imyanda kugira ngo babone ibyo bajyana mu rugo bisa neza.

Ibiganza bibiri biri kwerekana umusaruro w'ibigori, urabona ko weze neza kandi uwabihinze akaba azabona ibyo kurya akabona n'inyungu y'amafaranga.

Amoko y'ibihingwa arunze ahantu hamwe hakaba harimo ibishyimbo by'amabara y'umutuku, umweru, ikigina, umukara harimo na soya ndetse n'amajegeri ari yo bita amashaza.

Ni icyumba cyijimye kitagaragara neza, kikaba kirimo umugabo ndetse n'imifuka irimo imbuto, ziba zifashishwa kugira ngo zigezwe ku bahinzi.

Imbuto ziri mu dufuka harimo: ibishyimbo, umuceri utaratonorwa, bikaba biri kwerekanwa n'umuntu uri aha, yerekana ko ari imbuto nziza cyane rwose.

Ni mu muhanda wubatswe n'amapave hakaba hateretse imifuka irambitseho imbuto z'ibigori urabona ko bazanitse kugira ngo zume zizahingwe zimeze neza.

Ni inyubako imbere harimo abagabo babiri, hakaba harimo n'imifuka irimo imbuto zatubuwe kugira ngo zizakurwemo izo guhinga, bityo umusaruro wiyongere.

Akamashini kifashishwa mu gupima umusaruro niba ari mwiza kakaba kari mu ibara ry'umukara, iyo ugatunze ku mbuto ubasha kumenya niba iyo mbuto yujuje ubuziranenge.

Umugabo uri kugaragaza imbuto y'ibishyimbo ubona ko ari kubitoranya kugira ngo azabone ibyo ahinga bityo umusaruro we uzabashe kwiyongera.

Ibishyimbo biri mu ibara ry'umutuku, amashaza, soya, byose bikaba biribwa n'abantu kandi urabona ko bisa neza cyane biri ku isoko.

Ni mu ruganda hakaba hari icyumba kiza cyane kirimo ibyuma bitandukanye bikaba byifashishwa mu gukora imbuto nziza bazitubura kugira ngo abahinzi bazabone izo guhinga.

Ikiganza cy'umuntu gifashe imbuto y'umuceri yeze, urabona ko ari kwerekana ko umusaruro we wagenze neza kandi arabyishimiye kuko yabyitayeho na we akaba abonye umusaruro.

Abaveterineri b'amatungo cyangwa se abaganga bayo, usanga bafitiye akamaro kanini ku borozi, kuko iyo itungo rigize ikibazo bararivura kandi rikamera neza.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'umuganga w'amatungo, hakaba harimo imbabura ishyushya imiti ye kugira ngo imwe n'imwe itazahura n'ibibazo ndetse bikanashyushya n'udukoko dutoya kugira ngo tudahura n'imbeho.

Umugore w'umuyisiramu, yiteze igitambaro cy'umukara, yambaye n'agapfukamunwa, ndetse na ga mu ntoki, ari mu rwuri.

Abaganga b'amatungo, bafatiye runini aborozi kuko iyo amatungo agize ikibazo, bajya kuyitaho bityo akongera akamera neza n'umworozi itungo rye rikagarura ubuzima.

Abaganga b'amatungo, bafatiye runini aborozi kuko akenshi usanga iyo itungo ryagize ikibazo, babyitaho kandi bakayivura, bityo rikongera kumera neza.

Umuganga w'amatungo, wambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu, afite agakoresho ari kurebamo imiti ye kugira ngo ajye gukingira amatungo ari aho hafi.

Inka z'inyambo, ziba zifite amahembe maremare kandi ubona zisa neza. Zitanga umukamo ndetse n'iyo zihuye n'ikibazo hari abaveterineri bashinzwe kuzivura, bityo zikabaho neza.

Abaganga b'amatungo bafatiye runini aborozi kuko iyo itungo ry'umworozi rigize ikibazo yihutira kugana uyu muganga bityo akamufasha bakavura itungo rye rikongera kumera neza.

Abaganga b'amatungo, bafatiye runini aborozi kuko iyo itungo rye rigize ikibazo, bihutira kumugana maze akabafasha, itungo rikongera kumera neza.

Iyo woroye amatungo magufi cyane cyane nk'inkoko ni ibintu byiza cyane kuko bishobora kuguteza imbere wowe ubwawe ndetse n'umuryango wawe muri rusange.

Inka zororerwa ahantu ku gasozi, zikaba zirimo ibimasa ndetse n'inyana, urabona ko hakurya hari ubwatsi izi nka zirisha kandi butoshye, hakaba hari n'ibiti birebire.

Korora inkoko ni ibintu bikomeje guteza imbere abantu benshi cyane kuko iyo woroye inkoko mu gihe gitoya ubona amafaranga ndetse ukaba wakiteza imbere.

Abaganga b'amatungo bafatiye runini abantu benshi cyane kuko usanga akenshi iyo itungo rigize ikibazo bararikingira, bakaritera imiti itandukanye maze rikagarura ubuzima.

Ni umuganga w'amatungo ,akaba arimo arasuzuma ibikoresho biri aha ,ndetse anareba ko imiti afite icyujuje ubuziranenge ,kugira ngo ajye ayitera amatungo.

Umuganga w'amatungo ari kumwe n'abandi baganga na bo b'amatungo barimo barakingira inka ziri aha kugira ngo zitazahura n'ibibazo by'indwara zitandukanye.

Gukingira amatungo, biyarinda kuba yakwatakwa n'indwara zitandukanye kandi bigakorwa n'ababihuguriwe mu mashuri ndetse bakabihererwa n'impamyabumenyi.

Umuganga w'amatungo, akaba arimo aravura amatungo ndetse urabona ko ari gukora mu nda y'amaganga kugira ngo yumve ko nta kibazo iri tungo ryaba rifite abone uko aryitaho.

Mu nganda zigiye zitandukanye usanga harimo ibicuruzwa bitandukanye biba bifunze ahantu mu makarito, ushobora gusanga hari imiti ivura amatungo ndetse n'ibindi.

Ubworozi ni ikintu kigomba kwitabwaho, si ngombwa ngo wororerere amatungo manini ushobora no korora amatoya kandi byose bikaguha umusaruro ndetse umuryango wawe ugatera imbere n'igihugu.

Aborozi babigize umwuga bahitamo korora inkoko. Ni umusore ndetse n'umukobwa, bahisemo gukora uyu mwuga nyuma yuko babonye ko bitanga amafaranga menshi.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, ukaba uri kunyurwamo n'ubwoko bw'inkende ndetse hakurya hari amazu y'ubucuruzi na yo acururizwamo n'abantu bagiye batandukanye.

Idubu iri mu mazi, ifite ubwoya bw’ikigina, iruhande rw'amazi irimo hari ibimera, biri mu ibara ry’icyatsi n’ibindi biri mu ibara ry’ikigina.

Inyamaswa zikunze kuboneka muri parike habamo: ingwe, intare, inzovu, impyisi, inkura ndetse n'izindi, byose bikurura ba mukerarugendo.

Inyamaswa eshatu ziri mu bwatsi ziraryamye zirimo zirakina, ni ingwe ihetse akana k'inkende.

Ingwe n'inyamaswa y'inkazi kandi iba ifite amabara ajya gusa ikigina ndetse n'umukara, ikagira amajanja, ikagira n'ubwanwa ndetse n'imikaka minini.

Inyamaswa zitandukanye yaba izo mu rugo cyangwa se ku gasozi, zose zikunda kunywa amazi kuko igihe cy'izuba zose ziba zifite icyaka, ni byiza rero ko inyamaswa aho ziri hagomba kuba hari amazi.

Inyamaswa nyinshi usanga muri parike ziba zifite amabara atandukanye ndetse ziteye no mu buryo butandukanye, ushobora kuyibona ukayitiranya n'ihene cyangwa se inka.

Inyamaswa nini kandi ipima ibiro byinshi , bakubwira ko ari inzovu kuko ishobora gupima ibiro birenga magana atanu. Ikaba isangwa muri parike.

Iyo ugeze mu ishyamba cyangwa se muri pariki, ubonamo inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye, haba ingwe, intare, impyisi byose kandi bikurura ba mukerarugendo.

Intare ni inyamaswa bita umwami w'ishyamba kandi n'intare iba ari inkazi, iyo uyegereye byonyine itontomye ushobora guhita ugwa hasi, si byiza rero kuyegera.

Iyo ugeze muri parike usangamo inyamaswa nyinshi zitandukanye kandi ziba ziteye amabengeza n'ubwuzu kuzireba, gusa si byiza kuzegera kuko zishobora kukugirira nabi.

Muri parike usangamo amoko y'inyamaswa atandukanye twavugamo nk'inzovu ndetse n'izindi, byose kandi bikurura ba mukerarugendo bavuye hirya no hino bakaza kuzisura.

Mu mapariki agiye atandukanye y'inyamaswa, iyo ugezemo ubona inyamaswa utigeze ubona kandi ukabona ni ibintu byiza, gusa si byiza ko uzegera kuko zishobora kukugirira nabi.

Abakerarugendo akenshi bajya mu mapariki hirya no hino ku isi bakajya kuyasura bityo bagatanga amadovize azamura iterambere ry'Igihugu n'iry'abaturage.

Iyo ugeze muri parike, usangamo inyamaswa z'amoko atandukanye kandi ziba ziteye amabengeza kuzireba, haba harimo intare, ingwe, amasha n'izindi nyinshi.

Abakerarugendo bakunda kugana ahantu mu ishyamba cyangwa se mu mapariki kugira ngo bajye kureba inyamaswa ziba zirimo kandi mbere yo kuzireba bakishyura amadovize.

Inyamaswa uzisanga muri parike kandi ziba zisa neza ziteye amabengeza. Ni byiza rero ko niba usuye inyamaswa muri parike, witwararika kuko zishobora kukugirira nabi zigufashe.

Iyo ugeze muri parike usangamo inyamaswa nyinshi zitandukanye haba intare, ingwe, ibitera n'ibindi byose biba ari byiza kubirebesha ijisho gusa si byiza ko ubyegera.

Intare ni inyamaswa y'inkazi kuko iyo uyisagariye cyangwa se ukajya aho iba ishobora kukugirira nabi, bityo ubuzima bwawe ukaba wabubura.

Iyo ugeze muri parike, usangamo amoko y'inyamaswa zitandukanye ndetse zikurura abantu benshi baturutse hirya no hino, baje kwihera ijisho izo nyamaswa, gusa inama kuzegera ntibyemewe.